Umuyobozi ufite imisati isutse, yambaye agakanzu k'iroza, impande ye handitse amagambo akikijwe n'utumenyetso, kandi munsi ye hari amazina ye n'icyo ashinzwe.

Umusore wifashe ku birenge, yambaye isengeri ikoreshwa muri siporo, afashe ibirenge, asa n'aho ari kwigorora, yicaye mu byatsi, kandi inyuma y'aho hantu yicaye hari ibiti bihakikije.